Iyi foto yafashwe hagaragazwa abantu bari mu mahugurwa, aya mahugurwa yari yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, haba mama, aba papa, abasore, ndetse n'inkumi. Bari bafite ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibitabo, amatelefone, ndetse n'ibindi byabafashaga kwihugura, ndetse babasha no kugira ibyo basigarana.

Ababyeyi beza cyane bambaye imishanana, bicaye muri sale irimo intebe nziza cyane, imbere yabo hagiye hateretse uducupa tw'amazi, ni babyeyi b'abasirimu kuko bafite n'amatelefone mu ntoki nk'uko bigaragara hari umuntu bategereje.

Abantu bane bicaye bigaragara ko bari kuganira, umwe yambaye ikoti ndetse na karuvati, undi yambaye ikote ndetse n'ishati, undi yambaye ishati gusa ndetse n'undi yambaye ishati gusa, bari kubwirana kandi bari kungurana ibitekerezo.

Urubyiruko rugiye rutandukanye rwicaye muri sitade bameze nk'aho baje gukurikirana ibiganiro, harimo abakurikiye bari maso ndetse hari n'abandi basinziriye ndetse si ibyo gusa kuko harimo n'abarangariye muri terefone ariko umubare mwinshi ni uw'abakurikiye.

Aha haragaragara abantu bagera muri bane ndetse n'umukobwa bahagaze imbere wambaye ipantaro ndetse n'ishati by'icyatsi, bigaragara ko ariko basobanurira serivisi zitangwa n'ikigo gicuruza serivisizan amafaranga kizwi nka beka barakurikiye kandi bigaragara ko ibyo yari kubabwira bari kubyumva.

Kigali yacu Kigali nziza Kigali ikeye kandi itekanye, aha hari abagabo babiri ndetse n'abadamu babiri bicaye hamwe ahantu imbere hari ikoranabuhanga rigaragara neza ko bari kungurana ibitekerezo ku cyazamura umujyi wa Kigali.

Abantu benshi cyane bari mu nzu y'inama ni abantu biganjemo urubyiruko ndetse n'abakuzemo gake, hari umuntu bigaragara ko akuze ubahagaze imbere wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru hamwe na marinete afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko ariko kubagira inama n'abahugura.

Aha hari umugabo ufite ijambo, ari kubwira bagenzi be, abicaye imbere, baramureba, bamuteze amatwi bari kubyumva, bigaragara ko bamwe muri bo bari no kubyandika, hari abari kubya ndika mu matelefone, hari abari ku byandika mu makayi ndetse hari n'abandi bateze amatwi bumva ndetse bashaka no kunganira.

Ni abantu bicaye muri sale irimo imashini nyinshi, kuko buri wese imbere ye hari imashini ndetse n'agacupa k'amazi. Bigaragara ko bari mu mahugurwa kuko hari umugabo bigaragara ko asa nkaho akuze ubahagaze imbere, ufite ibyo ari kubaganiriza. Bamwe bari kwandika, abandi barakurikiye.

Abantu bateye intebe mu muhanda baricaye, bigaragara ko hari ibyo bari kuganiraho, inyuma yabo hari amamodoka menshi cyane ndetse n'amazu meza, ibi rero bigaragaza yuko ari abaturage bari kuganiriza ku bijyanye n'iterambere.

Ibicupa binini, amaji ndetse n'ibindi bicuruzwa bigezweho usanga bihenze cyane mu masoko acuruza ibiribwa mu mujyi wa Kigali abantu benshi babigana barinubira igiciro kiri hejuru.

Aha hari ihuriro ry'abantu batatu, ni abamama babiri ndetse n'umugabo umwe, biragaragara ko imbere yabo hateretse amacupa y'amazi y'inyange, barishimye cyane bari kuganira ku iterambere, baravugana bakumvana, umwe agatanga igitekerezo ndetse n'undi akacyunganira.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ni abadamu batatu bicaye ku ntebe nziza imbere yabo hari ameza meza cyane ariho ibitambaro bitandukanye, ndetse si ibyo gusa kuko imbere yabo buri wese afite icupa ry'amazi, bari kureba mu matelefone bunguranye ibitekerezo.

Aha ni muri sare y'inama aho hari gutangirwa amahugurwa, hiciyemo abantu benshi kandi bicaye mu ntebe nziza, imbere yaho hagiye hari amatabure hateretseho uducupa tw'amazi, nk'uko bigaragara bose barakurikiye kandi buri wese afite aho ari kwandika.

Abasore babiri bicaye mu cyumba k'inama ndetse bigaragara ko inyuma yabo hari abandi, imbere yabo hari uducupa tw'amazi ndetse agakombe k'icyayi ndetse n'agacupa k'ikawa, bombi barakurikiye kandi bari kwandika.

Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Umugabo wicaye mu ntebe nziza cyane y'umukara yambaye ikositimu y'umukara, yambaye ishati y'umweru ndetse n'amarinete, imbere ye hari indangururamajwi ndetse n'agacupa k'amazi bigaragara cyane yuko ari kubwira abaturage bari imbere ye.

Abadamu babiri bicaye kandi bigaragara ko bari kumwe n'abandi bantu bari imbere yabo, umwe muri bo afite indangururamajwi bigaragara ko hari icyo ari kuvuga, si ibyo gusa kandi imbere yabo hateretse udukombe bigaragara ko banyweye n'icyayi.

Aho abantu benshi cyane bigaragara ko bameze nk'aho bari mu nama, baragaragara rwose ko bakeye, abamama ndetse n'abapapa bose bambaye neza, harimo umupapa wambaye amarinete, harimo abamama bambaye amakanzu meza cyane, barimo bambaye amajipo ndetse bigaragara ko bakurikiye nta kabuza.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye, bicaye muri sale y'inama kandi nini, bose imbere yabo hagiye hateretse amacupa y'amazi kandi bafite amakayi n'amakaramu, bari kwitegereza, bakareba maze bakandika.

Ni abantu bari mu mahugurwa, hakaba harimo abagiye batandukanye, hari abagaragara nk'abanyamategeko bambaye imyambaro yabo ndetse hari n'abandi ubona ko barakaye. Urugero; nk'umugabo uri imbere, wambaye amarinete.

Iri ni ihema riri mu mabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'umweru, ryiciyemo abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko bigaragara ko hari ibyo bari gusobanurirwa, nabo bari kubyumva kuko harimo abo bigaragara ko bateze amatwi.

Abantu bagiye batandukanye bigaragara ko bari mu nama kuko bicaye muri sare nziza, imbere yabo hari uducupa tw'amazi ndetse n'amakaye, buri wese afite amatelefoni, harimo umukobwa mwiza cyane wambaye amarinete ndetse n'undi bari kurebana bagaseka

Uyu ni umunara w'itumanaho muremure cyane bigaragara ko wenda gukora ku bicu. Uyu munara, leta iba yarawubatse kugira ngo abaturage babashe kubona netuwake maze itumanaho rikore kandi rikore neza mu gihugu.

Babujije abagenzi gutega imodoka badakoresheje ikarita yabugenewe. Aho igira iti'' Birabujijwe kwishyura urugendo udakoresheje ikarita yabugenewe.'' Bagaragaza uburyo bwemewe ndetse n'ubutemewe.

Ahangaha ni ikiganiro, iki kiganiro kikaba kiri kugiranwa na Batamuriza Hajara, ndetse na Bambera Emmy. Aho bari kuganira ku by'ingenzi, ku bijyanye n'imisoro iri kuvugwa muri iyi minsi.

Ihahiro ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hakubiyemo ibyoku kurya urugero nka biswi, amasambusa, amandazi harimo kandi n'ibyo kunywa nka ji, yahurute n'amata.

Aha hari umugabo wicaye imbere ya mudasobwa, ari kureba ukuntu nawe ubwe yakwishakira serivisi z'irembo atagiye kure, ari kurebamo akanabisuzuma biragaragarako yabyishimiye, kandi ari kubyikorera ku giti cye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda, cyashyizeho uburyo bwo kwigira kuri televiziyo. Ubu buryo rero, buje ari ubwo gufasha abanyeshuri mu gihe bari muri ibi bihe bitoroshye kugira ngo bakomeze kwiga, bakurikirane amasomo.

Nawe wabyikorera! Serivisi z'irembo zegerejwe abaturage. Ubu ni uburyo bushya bwo kwandikisha umuryango utari uwawe. Ibi rero, leta yabikoze kugira ngo yorohereze abaturage.

Aha ni ku ivuriro ry'ibanze aho batanga ubutabazi bw'ibanze hazwi nk'ikigo nderabuzima, hari inyubako zitandukanye ndetse hagiye hariho ibyapa bishushanyijeho bigiye bitandukanye bigira inama abaturage ndetse n'ababigana.

Ni nziza cyane aho batanga serivisi zigiye zitandukanye ahangaha rero iyo uhageze usanga hari na interineti, interneti yaho iba ari ubuntu upfa kuba uri umukiriya uririnjira bakaguha nawe ukirebera ikoranabuhanga aho rigeze.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Kugira ngo utere imbere bisaba kuba wakoze aya mapikipiki atatu aragaragaza ko aba bantu bayatwara baba bari mu kazi, ibi bibahesha kubaho ndetse bigatuma n'imiryango y'abo igira ubuzima bwiza.

Umunara muremure cyane w'itumanaho uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru bigaragara ko ari uwa eyateri hahagaze abatekinisiye bane bigaragara yuko bari gusobanurira aba bantu uko uyu munara ukoreshwa aha bantu bari gusobanurira bambaye amajire y'umutuku.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Umunara w'itumanaho ni muremure cyane, bigaragara neza ko wenda gukora ku bicu, iki ni ikimenyetso cy'uko aha hantu nta kabuza kaba amarizo kandi afatika, hari ibicu byiza cyane byiganjemo umweru ndetse n'ubururu.

Inzu nini kandi ni nziza cyane, nk'uko bigaragara ni isoko rya kijyambere. Isoko ryubakiwe abaturage kugira ngo biteze imbere. Aha hakaba hari abantu bagiye batandukanye, baje gushaka ibyo bahaha muri iryo soko.

Iki ni ikigo cy'igihugu gitsura amajyambere RDB, aho bafasha abaturage bacyo kwiteza imbere, aha rero urabagana ukabereka umushinga wawe bakawusuzuma, basanga wuzuye kandi wujuje ibisabwa bakaguha inkunga.

Ubu ni ubwubatsi bw'umunara w'itumanaho, hari kugaragara abantu benshi bari kubaka, harimo abafundi, abayede ndetse n'ibikoresho bari gukoresha. Bari kwitegereza ibyo bari gukora nabo bakabona ko ari byiza. Uyu munara niwuzura uzaba unogeye ijisho.

Aha ngaha baragaragaza cyane uburyo ushobora gukoresha werekana ko wamenyekanishije umusoro w'igihembwe cya kane cy'ipatati, ubwo waba ukoresheje mudasobwa bakagira bati urajya ku rubuga maze ukande urahita ubibona.

Ni icyuma kinini cyane kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, zikaba zerekeza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, izi nsinga rero zifatira kuri iki cyuma kuko ari ho hari umuriro mwinshi kandi ufite imbaraga.

Icyapa kinini cyane, kigaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda, rege. Hakaba hari urugomero rwiza cyane, rurerure, ndetse hariho n'ibyuma byinshi cyane, n'insinga, ndetse n'imashini, bizamura uwo muriro.

Ibyuma kabuhariwe mu gukwirakwiza insinga z'amashanyarazi mu duce tugiye dutandukanye ,biteretse aha ndetse hari n'ibiti bikikijwe n'indabo ndetse n'amazu y'abaturage bigaragara y'uko aha hantu hatuwe kandi hari umuriro w'amashanyarazi uhagije.

Abagabo bakora ibijyanye n'amashanyarazi bari kwesitara insinga ku cyuma cyabugenewe gifata isinga maze kigasakaza umuriro mu bice bigiye bitandukanye, bari hejuru bose buriye bose bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse n'ingofero z'umuhondo.

Izi ni inzu nziza cyane z'ubucuruzi, leta yubakiye abaturage kugira ngo babashe gukora kandi biteza imbere. Si ibyo gusa kuko yahazanye n'umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo bajye bakorera ahabona. Rero nk'uko tubibona harasa neza.

Aha ni ku muhanda, hirya y'umuhanda gato hari ipironi nini cyane iriho insinga nyinshi cyane z'amashanyarazi. Bigaragara yuko igenda ihererekanya n'izindi piloni kugeza bigeze aho umuriro ugiye.

Ni icyuma kinini cyane gifata isiga z'umuriro w'amashanyarazi, aho hagenda hanyuraho insinga nyinshi kandi zirimo umuriro ufite ingufu, izi nsinga zikoreshwa zivanwa mu byerekezo bimwe zijyanwa mu bindi cyane cyane zituruka ahantu hari umuriro ukomeye.

Ahantu heza cyane hari amazu yo guturwamo, hari ipoto yo ku muhanda ibi insinga nyinshi cyane izijya iburyo ibumoso izijya ku ruhande ndetse no ku rundi, hari amazu meza cyane afite ibipangu ndetse akaba afite n'indabyo ku bipangu.

Hari udukiyosiki tubiri twa MTN, kamwe bari kukabikurizaho akandi gahagazweho n'abantu benshi, aka gakiyosike bigaragara ko kari imbere y'umuhanda, aho hari amamoto, amamodoka, abantu ndetse n'insinga z'imiriro zo ku muhanda.

Aha NI mu muhanda rwagati, harimo imodoka zigiye zitandukanye, harimo ikimodoka kirekire cyane gitwara imizigo, hakamo imodoka zisanzwe zitwara abantu, hakabamo umunyegare urishoreye ndetse n'umumotari nawe wavuye kuri moto nawe umeze nk'ushaka kuyishorera.

Iyi ni gahunda yagejejwe mu baturage, aho buri muturage agomba kuba afite umuriro w'amashanyarazi, aha rero hari inzu isakaje amabati atukura, ikaba isize irangi ry'umutuku irimo umuriro, imbere yayo hari igiti kinini cyane kizwi nk'ipoto, kiriho insinga nyinshi cyane zisakaza amashanyarazi.

Ni umuhanda wa kaburimbo iruhande rw'uwo muhanda hari ipoto ririho itara ryo ku muhanda ndetse hakaba igiti kinini gikozwe mu byuma kiriho insinga nyinshi cyane zijyana umuriro mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Inzu ntoya cyane isa nk'iciriritse, hariho umuriro w'amashanyarazi. Ndetse hejuru yaho hariho insinga nyinshi cyane, zisa nkaho zijyana umuriro mu bice byose bigiye bitandukanye. Ndetse hejuru yaho hariho ikirere gifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Ipoto nini cyane itwara umuriro uremereye, uriho insinga zigera kuri enye, hafi aho hari iyindi poto iriho itara ryo ku muhanda ndetse inatwara umuriro mu nzu z'ubucuruzi ziri hafi aho, kuko hri kugaragara inzu z'umutuku n'iz'umweru, bigaragara ko hakorerwa ubucuruzi ari ku Gisozi.

Ni icyuma kirekire cyane kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, izo nsinga zikaba zijya mu byerekezo bigiye bitandukanye by'igihugu, ibi ngibi Leta ibikora kugira ngo yongere umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ni icyapa kimeze nk'igisanduku kizengurutswe n'indabo, inyuma yaho hari icyuma kitagaragara neza bigaragara ko ari icy'umunara, hazengurutse indabo ndetse hateretse n'izindi ndabo nziza cyane, hariho akantu kagaragaza yuko hatemerewe kugerwa.

Ni ipoto ndende cyane igizwe n'ibyuma byinshi kandi ikaba iriho insinga nyinshi, zijyana umuriro mu byerekezo bigiye bitandukanye, aha ngaha rero munsi yaho turahabona igiti cy'umukindo ndetse n'inzu y'abaturage ituwemo.

Leta y'u Rwanda yiyemeje kongera ingufu z'amashanyarazi, ikora ingomero zigiye zitandukanye. Aha rero ni hamwe mu haturuka umuriro w'amashanyarazi ukwirakwizwa mu gihugu hose. Hazitiye neza mu rwego rwo kwirinda impanuka, kuba hari umuntu wajyamo.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibice bitatu, igice kimwe kiri kugendamo moto ndetse n'imodoka, ikindi kiri gutambukamo umugenzi ndetse ha hagati aho harimo icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru kiyobora abagenzi hakaba n'ibiti birebire cyane.

Ipoto rinini cyane ritwara umuriro w'amashanyarazi, ririho insinga nyinshi zirajyana mu cyerekezo kigiye gitandukanye, hafi aho hateye ibiti by'imikindo, indabyo ndetse n'ibindi, wakwitegereza hakurya yaho ukabona umunara muremure, ikirere ni umweru ndetse n'ubururu.

Leta y'u Rwanda yubakiye abaturage amasoko meza ndetse n'amagare nk'uko tubibona hano habera ubucuruzi, turi kuhabona ibyapa bigiye bitandukanye haba icya Airtel ndetse na Sitari tayime, si ibyo gusa kuko hari n'ipoto iriho itara ryo ku muhanda ndetse n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ni abantu bari mu mitaka ya MTN, bakaba bari gutanga serivisi zo kubitsa no kubikuza, nkuko bigaragara ni abajenti ba MTN. Hakaba hari umuntu uri mu muhanda, uri kwirukanka abagana ngo bamufashe.

Aha ni ku kigo nderabuzima ahazwi nka Kacyiru, hari inyubako nziza cyane zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hakaba hateye indabyo nziza cyane, hari imikindo igaragara neza ndetse hakaba n'ipoto iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Iyi nyubako bigaragara yuko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, kuko turi kubona abantu baje bayigana bameze nk'abakeneyemo serivisi. Hari abakiri kurwakiriro, hari abakiri inyuma, ndetse imbere yayo hapatse imodoka nyinshi; bigaragara ko hakorerwamo ibikorwa bikomeye.

Ishusho iragaragara nkaho ari ikigo nderabuzima. Ikigo nderabuzima kirimo idarapo ry'u Rwanda ndetse n'idarapo mpuzamahanga ry'akanama gashinzwe kubungabunga ubuzima. Haparitsemo amamodoka menshi cyane ndetse harimo abantu bagiye batandukanye. Hari kugaragaramo abakuze ndetse n'abato.

Aha ni mu bitaro nk'uko bigaragara ni mu bitaro bya Sehashibe harimo inzu nyinshi cyane harimo utuyira tugiye dutwikiriye kugira ngo ababagana batanyagirwa mu gihe k'imvura cyangwa se izuba rikaba ryabica mu gihe k'izuba, hari ubusitani bwiza cyane.

Inyubako zirambuye kandi zigeretse inshuro eshatu, izi nyubako bigaragara ko ari ibitaro biri mu Rwanda ahazwi nka kingi fayisali, ahangaha harimo amadarapo agiye atandukanye haba idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse hakaba n'ubusitani bwiza.

Aha ni mu bitaro bizwi nka CHUB biri mu Karere ka Huye, aha ngaha ni aho imodoka ziparika, hakaba haparitse imodoka zigiye zitandukanye ndetse hakaba harimo n'imodoka zitwara abarwayi ibakura ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi.

Aha hari kizimyamwoto iteretse mu mbuga bigaragara ko iri ahantu hasa nk'aho ari igikorwa remezo, byanze bikunze bishobora kuba ari ishuri cyangwa ivuriro. Iyi kizimyamwoto iriho amapine byanze bikunze bigaragaza iyo bagiye kuyikoresha bayishorera.

Inzobere z'abaganga z'abanyamerika ziri kugendana n'abandi b'abanyarwanda, ndetse n'abaturage bamwe na bamwe babasobanurira serivise zijyanye n'ubuzima, aha ngaha ni mu bitaro bya Masaka nk'uko biri kugaragara rwose.

Aha ni kwa muganga aho haba hari intebe abarwayi bategerezaho muganga, hari intebe nziza cyane z'ibyuma ndetse hari n'agatanda gashyirwamo abafite ubumuga. Aha rero bikaba bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Iri ni ivuriro, ivuriro ni igikorwa remezo leta ishyiramo imbaraga kugira ngo ibashe kwita ku baturage kandi irengere ubuzima bwabo, aha rero biragaragara ko umusekirite ari gufungurira imodoka yinjiye mu ivuriro.

Ibyapa bibiri bigaragaza icyerekezo mu ivuriro rya kacyiru, haparitse imodoka ebyiri hakaba hari kota rimwe, hari amazu y'ivuriro meza ndetse Inyuma yaho hari ibiti birebire Ibigufi ndetse n'indabo.

Abapolisi babiri b'Abanyarwanda bambaye neza cyane imyambaro y'impuzankano ya polisi bafite umugabo wambaye amapingu bigaragara ko ari umuyisilamu, yambaye ikanzu y'umweru ndetse n'akagofero k'umweru gaciyemo uturongo afite n'ibyanwa byinshi.

Aha haragaragaza uburyo tugomba kwirinda ruswa, kuko baragaragaza neza itegeko ribigenga rikanagaragaza neza ko ryasinkweho na perezida wa repubulika yu Rwanda ku wa makumyabiri na kane zu kwa karindwi.

Aha ni mu rukiko aho umunyururu ari kuganira n'umwunganira mu mategeko ,akamwihanangiriza amubwira ati witonde uvuge ibyo uzi ,aha rero nkuko bigaragara harimo umunyururu wambaye amarose ndetse n'abagabo babiri bambaye imyenda y'abanyamategeko.

Aha ni mu nzu y'iburanisha, aho harimo abantu bane abagabo babiri ndetse n'abadamu babiri, umugabo umwe bigaragara ko ari umushinjacyaha yambaye amarinete, ari kurerebana n'undi umeze nk'umwunganizi mu by'amategeko ndetse ukabona ko hari ibyo batari kumvikanaho, uyu mugore wundi ameze nk'umwanditsi arindiriye ko bagira ibyo bumvikana maze akabyandika.

Aha hari ifoto y'umugabo uyu mugabo bigaragara ko asa nk'aho akuze bafotoye igice cye cyo hejuru, nkuko biri kumvikana ni umutwe gusa, umutwe we hariho ubwanwa buri hejuru y'umunwa, ndetse no munsi yawo afite umusatsi usa nkaho ari mwinshi, afite amaso asa nkaho ari mato ari gukanura mu buryo bworoheje.

Ni abagororwa babiri ubona ko bari gusohoka mu nzu, hari umugabo wambaye ikote ndetse n'isaha ku kuboko, ari kubayobora abereka aho berekeza nk'uko bigaragara bashobora kuba bambaye amapingu, kuko umwe ari kugenda akurura undi.

Umudamu wambaye imyambaro y'abacamanza, yambaye ikanzu y'umukara ndetse mu imbere, inyuma yambaye iy'umutuku, yiyogoshesheje umusatsi we ndetse akaba afite umusatsi wa natirere ushokoje neza, yegamyeye ahantu ku makaro.

Ni sale irimo abanyamategeko bagiye batandukanye. Hakaba hari abagabo babiri bambaye amakanzu y'umukara, ndetse n'akitero k'umweru, bambaye n'ingofero z'umukara, bazamuye ibiganza bagafata ku ibendera ry'igihugu, bakarahirira inshingano bahawe nshyashya.

Iyi nyubako nkuko bigaragara ni gereza iyi gereza niya nyarugenge hari kugaragaramo abanyururu bambaye imyenda igiye itandukanye bambaye amakanzu barimo bambaye amakabutura n'amashati barimo baratemberamo hagati biragaragara nkaho bishimiye ahantu bari kugororerwa.

Abagabo babiri, umwe bigaragara ko ari umunyururu kuko yambaye imyenda y'iroze ikabutura ndetse n'ishati, akaba yambaye n'isa kuboko. Ari kuramutsa mugenzi we wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara yabitebeje.

Aha ni kuri gereza ya Nyarugenge, aho imfungwa zimwe na zimwe zari zasohotse zikaba ziri kwereka umucungagereza impapuro zibemerera gusohoka nawe ari kuzirebaho neza, bahagaze imbere ya geti y'abagabo y'iyo gereza.

U Rwanda rwateye imbere aho basigaye baha imashini abagororwa na bo bakareba ingingo zibarengera, aha rero hari abagororwa benshi bambaye imyambaro y'amaroze ndetse n'udupfukamunwa, bakaba bafite imashini imbere yabo ariko inyuma yabo hakaba hari umucungagereza uri kubacunga.

Aha ni mu rukiko aho hagaragara umugabo w'umunyururu wambaye imyenda y'iroze n'agapfukamunwa, hakaba hari abagabo babiri bigaragara ko umwe ari umushinjacyaha undi akaba umwunganizi we mu bijyanye n'iby'amategeko, bari kumuha umuti wica udukoko bakaraba mu ntoki uzwi nka sanitayiza mbere y'uko urubanza rutangira.

Igipangu kinini cyane kandi kirekire, kuri icyo gipangu hariho icyapa hejuru kiri mu ibara ry'umweru, ariko amagambo yandikishije ibara ry'umukara agira ati gereza ya Nyanza, aha rero nk'uko bigaragara ni mu igororero rya Nyanza, nk'uko tubibona mo imbere harimo ibiti byinshi.

Umugabo w'umucamanza wambaye ikanzu y'abacamanza y'umukara, yambayemo agashati k'umweru mo imbere, ndetse yambaye n'amarinete. Imbere ye hagaze umunyururu bigaragara ko yaje kuburana, akaba ari we uri kumwunganira. Ndetse inyuma yabo hakaba hari n'umucungagereza waje gucunga uyu munyururu.

Umudamu muremure w'igikara wambaye amarinete, wambaye ingofero ndetse n'ikanzu by'abacamanza ahagaze imbere y'idarapo ry'u Rwanda, bigaragara yuko ari kurahirira kutazigera yimana u Rwanda kandi ko azakora inshingano ze binyuze mu mucyo.

Aha ni mu ihuriro ry'abaturage bigaragara yuko bameze nk'aho bari guca urubanza, hakaba hari abantu bicaye imbere y'intebe ndetse bakaba bameze nk'aho ari abacamanza, ariko ari abo twita abunzi mu nshe z'abaturage.

Aha hari abanyururu benshi cyane ndetse umwe muri bo kuvugana n'umucamanza, bombi bambaye udupfukamunwa, bari kubwirana bisanzuye, kuko urabona umunyururu yirekuye ari kubwira umucamanza, uko bigaragara iyi foto yafatiwe imbere y'urukiko mu nzu iburanisha.

Imbuga isa nk'aho yangiritse isashema amapave, aha ngaha nk'uko bigaragara hatangirwa serivisi za Leta, hakaba hariho bariyeri, ntawemerewe kwinjiramo, mo imbere haparitsemo imodoka ndetse harimo n'inzu nziza cyane.

Inyubako zigiye zitandukanye, bigaragara ko zikorerwamo ubucuruzi. Imbere yaho hari abapolisi babiri bahagaze imbere ya moto y'abapolisi. Bigaragara yuko ari abacunga umutekano muri ako gace, kuko bigaragara neza ko gakorerwamo ubucuruzi.

Ni mu muhanda rwagati aho umupolisi yahagaritse umumotari biragaragara ko ari kumusaba ibyangombwa, imbere yaho habera ubucuruzi bugiye butandukanye, aho hagaragara amakiyosike agiye atandukanye aberamo ubucuruzi.

Ndabona ibicu by'umweru ndabona ahandi higanjemo ibara ry'ubururu bw'ikirere ndabona inkuta zubakishijwe amatafari ahiye ndabona ibiti binyuze muri izo nkuta ndabona imfungwa cyangwa se abagororwa nta misatsi bafite bambaye inkweto z'umuhondo ubururu n'umukara ndabona bafite ibikoresho by'ubuhinzi n'umusaruro ukomoka ku buhinzi nk'ibihaza ndabona bafite amasuka, ndabona iruhande rwabo hari icyobo.

Ni inyubako nziza cyane leta yubakiye abaturage kugirango babashe gukora ibikorwa byabo nta mbogamizi. Aha hakaba haparitse imodoka zigiye zitandukanye ndetse hakaba hateye n'uduti imbere y'iyo nyubako twiza dutuma igerwamo n'umuyaga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo moto itwaye umugenzi, umumotari yambaye kasike ndetse n'umugenzi atwaye arayambaye, harimo umupolisi uhagaze uri gutungira akaboko imodoka iri kuza ayereka ko igomba kujya ibumoso bw'umuhanda.

Ni imodoka iparitse mu muhanda bigaragara yuko hari umupolisi, uyu mupolisi arayihagaritse maze abaza uyitwaye ibyangombwa, bigaragara neza ko ari kubisuzuma ngo arebe ko byemewe, iyi modoka imbere yayo hari igiti cyiza cyane kirekire gifite amashami.

Umudamu uri gutambuka mu muhanda, imbere ye hari icyapa kigaragaza ko ageze ku murenge, mu murenge mo imbere nkuko tubibona ruguru ye, hari inzu irimo imiryango myinshi itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye ndetse hari n'abantu bari gusaba serivisi.

Iki ni icyicaro cya polisi y'igihugu, aho giherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Remera, aha rero hakaba hatangirwa serivisi zijyanye n'umutekano, ukaba wabahamagara bakagufasha.

Kizimyamwoto ni igikoresho gikoreshwa hirindwa inkongi y'umuriro cyangwa se ikumirwa, niyo mpamvu kuri buri nyubako hagomba guhora kizimyamwoto, kugira ngo nihaba impanuka hakaba hakwaka hazimwe bitagoranye.

Aha ni mu nzu y'inama aho bari kwamamaza ishyaka rya FPR, harimo abamama beza, abagaragara nk'abakuze, bambaye urugori, bari kumanika amaderapo bagira bati tuzamutora tuzamutora Paul Kagame.

Imodoka nziza cyane y'umukara, ikaba ikodeshwa ariko ikaba ifite purake nziza cyane y'abaviyayipi. Bikaba bisobanuye yuko ishobora gutambuka isaha iyo ari yo yose kandi idahagaze.

Ni umumama mwiza cyane ubyibushye wambaye ikote ndetse n'ishati mu mbere byiza cyane, biri mu mabara y'iroza aciyemo uturongo, yicaye mu ntebe nziza y'umukara, imbere ye hari idarapo ry'igihugu bigaragara ko ari mu biro.

Aha hari abaturage bari kwamaza, bari kwamamaza umukandida wabo Paul Kagame. Baragira bati tora Paul Kagame umuturage ahore ku isonga. Aha ni mu murenge wa Karambo Akagari ka Karambo. Biragaragara ko hari abantu benshi urujyaza n'uruza, bambaye imyenda y'ishyaka rya fpr, iyi myenda igiye irimo amabara y'umweru, ubururu, umutuku ndetse n'andi mabara agiye atandukanye.

Ni urujya n'uruza aho abaturage baje kwitorera umuyobozi uzabayobora, aha hari icyapa kigaragaza kiti Repubulika y'u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora, aha hakaba ari kuri site ya G.S Kimironko bakaba batoreye kuri G.S Kimironko ya mbere.

Umugabo wambaye ikote ryiza cyane ufite impapuro mu ntoki akaba yambaye ishati y'umweru ndetse na positimu, yambaye ipantaro ijya gu gusa ubururu biragaragara ko ari kwiyamamaza kandi nta kabuza ni we witwa muhayimana philippe, ahagaze imbere y'abaturage imbere hari indangururamajwi ari kubabwira ibyo azabagezaho nibaramuka bamutoye.

Ibi ni ibiranga urugwiro aho abana bahobera umubyeyi maze bombi bakishima bagaseka, uyu ni umunsi wahariwe abana ubwo abana biriwe bakina n'ababyeyi, birasa neza, bigaragara neza kandi birashimishije.

Umugabo wiyogoshesheje ariko ufite umusatsi mwinshi cyane ariko bakaba bawurinije, yambaye ikote ry'umukara, karuvati ndetse n'ishati y'umweru, aricaye yifashe neza, inyuma ye hari utubara tw'icyatsi.

Abantu benshi cyane bambaye imipira y'umweru ndetse n'ubururu, harimo amagambo FPR yandikishije ibara ry'umutuku. Bafite ifoto ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bari kumwamamaza cyane bagira bati "tuzamutora twongere tumutore."

Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ahagaze imbere y'inteko ishinga amategeko, akaba ari kubwira abaturage ko atazigera ahemukira u Rwanda, azaruyoborana ubwenge ubushishozi ndetse n'umurava, maze akaruteza imbere, afite indangururamajwi zirenze enye imbere ye.

Ahantu heza cyane harimo inyubako nziza ubona ko zishimishije hari abantu batandukanye, abenshi bari gufotora bafite amapreye, hari amadarapo y'ibihugu bigiye bitandukanye ndetse na za minisiteri zigiye zitandukanye.

Ni umugabo mwiza cyane muremure wambaye ingofero y'igikinga, wambaye amarinete ndetse n'ishati y'amaboko maremare. Afite telefone mu ntoki ndetse imbere ye hari indangururamajwi nyinshi cyane, harimo n'iz'amaradiyo agiye atandukanye.

Ni aba mama babiri bari mu cyumba cy'itora umwe ari kwinjira ngo ajye gutora undi ari gusohoka, nk'uko bigaragara ari gushyira ijwi rye mu gasanduku kabugenewe. Ahetse umwana, yambaye ibitenge byiza ndetse n'uwo mu mama wundi ugiye gutora yambaye ibitenge.

Ni abayobozi batandukanye b'u Rwanda, bahagaze bemye bamanitse akaboko k'iburyo, ukw'ibumoso gufashe ku ibendera ry'u Rwanda. Aho bari kurahirira inshingano bahawe, bagaragaza ko icyizere bagiriwe kizahoraho.

Ni abagabo biyubashye cyane bigaragara ko bari mu mahugurwa ndetse harimo n'abamama, aba bagabo bambaye amakote, amashati ndetse n'amakaruvate bifashe neza, imbere ya bo hateretse amacupa y'amazi, ibi ni byo bigaragaza ko twateye imbere.

Umukandida w'ishyaka rya FPR Paul Kagame, ubwo yari agiye kwiyamamaza ahantu hari abantu benshi cyane bafite amadarapo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu, bambaye n'iyenda isa gutyo, yari ari gutambuka imbere, abashinzwe umutekano bamushagaye.

Tengamara na tiveya twongeye kubatengamaza, ishimwe kuri tiveya ryongeye gutangwa ni nyuma y'ubugenzuzi isuzuma n'ibikorwa byo kugaruza umusoro byakozwe dukomeje gusaba ibiyamu niba utariyandikisha kanda kannyeri maganainani urwego ukurikiza amabwiriza nibayandikishije zirikana fatire ya ibiyemu no kwandikisha nimero yawe ya telefone itanga n amakuru.

Mu muhanda wa kaburimbo muri uwo muhanda harimo moto ziri kugenda, igare ndetse n'imodoka. Hakurya yaho hari amazu y'ubucuruzi ariho ibyapa bigiye bitandukanye byamamariza amakampani agiye atandukanye.

Ni umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo abaturage barawishimiye. Harimo imodoka zigiye zitandukanye haba inini zitwara imizigo ndetse n'intoya. Ndetse harimo n'umugenzi urikugenda n'amaguru wikoreye umufuka. Bigaragara yuko Leta yabakoreye.

Umuhanda mwiza cyane uri kunyurwamo n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hari abagenzi bari gutambuka n'amaguru hafi aho hari ibyapa bigaragaza aho guparikwa ndetse haruguru yayo hakaba abandi bantu, hubatse inyubako z'ubucuruzi.

Ni umuhanda wa kaburimbo uciyemo ibice bine, hakurya y'umuhanda hari kunyura moto ebyiri ndetse n'imodoka iziri imbere, moti imwe iratwikiriye indi ntitwikiriye, idatwikiriye itwaye umugenzi, hejuru yabo hari inzu z'ubucuruzi ndetse hari n'ipoto iriho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo, hagati muri uwo muhanda harimo akanogo, ariko kandi harimo moto ihetse umugenzi, ari umugenzi ndetse n'umumotari bose bambaye kasike, harimo n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Ni umuhanda wa kaburimbo ariko ukiri kubakwa, harimo abantu bari kugenda n'amaguru, harimo abanyegare bahetse amakaziye ku magare, hari moto ziparitse ku mpande, hakaba umukobwa wambaye umupira utukura ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo harimo abagenzi bagiye batandukanye, abari ku igare ndetse n'abari kugenda n'amaguru nk'uko bigaragara ni nijoro amatara yo ku muhanda ari kwaka, ari kwaka akamurika maze bakagenda babona.

Mu muhanda wa kaburimbo ku ruhande gato haparitse igare, iri gare rihetse akazigo inyuma, hari guca imbere yaryo moto, iyi moto itwawe n'umumotari wambaye kasiki neza kandi ahetse umugenzi, nubwo atagaragara neza.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, iburyo hari kwasiteri itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse ibumoso hakaba moto, umumotari umwe uri imbere nta mugenzi afite, ariko uw'inyuma afite umugenzi.

Ni umuhandade nyabagendwa wa kaburimbo ubwo harimo imodoka ntoya itwara abagenzi izwi nka tagisi vuwatiri, hakaba harimo abamotari batwaye abagenzi, si ibyo gusa hakurya y'aho hateye ibiti byinshi cyane ndetse hari n'uruzitiro rukitijwe na supanete y'ubururu.

Imodoka izwi nka Fuso iri mu muhanda. Iyi Fuso iri kumanuka isa n'aho iri mu kerekezo gishunguka, hari moto iri imbere yayo iri kuzamuka, bari mu muhanda wa kaburimbo, imbere ya rigori iburyo ndetse n'ibumoso, bari kugenda basa nk'aho babisikana, umwe ari mu kerekezo ke n'undi akaba mu ke.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, umumotari uhetse umugenzi ageza aho abanyamaguru bambukira arahagarara kugira ngo umugenzi abanze yambuke, ibi bigaragaza yuko abanyamaguru bemerewe kwambuka mu gihe bageze ahabugenewe.

Ni umuhanda w'igitaka uhagazemo imodoka, hakaba hahagazemo na moto. Ku ruhande hari ibiti byiza birebire, ndetse hari n'utwatsi twiza cyane hasi. Aha hantu bigaragara yuko bari kuhakora, hakaba hagiye kuba umuhanda mwiza.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ndetse harimo umugabo wambaye igisarubeti, ufite ingorofani mu ntoki, hakaba hari undi wambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro ya kaki, uri kumubaza umeze nkaho ashaka kumuha akazi ngo amutwarira agafu gafite mu ntoki.

Ni abamotari benshi cyane bicaye kuri moto zabo, izo moto zikaba ziparitse imbere y'amaduka ndetse n'amasoko, aho hantu hakaba hari amagorofa maremare. Bikaba bigaragara ko ari mu masaha ya nijoro kuko amatara ari kwaka.

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga kinini cyane gitwara imizigo, inyuma yacyo hakaba hari moto nyinshi cyane ziri guturuka inyuma, tukabona amatara yo ku muhanda ndetse hakurya yaho tukabona n'amazu y'ubucuruzi.

Aha ni mu ikaragiro ry'amata aho hagaragaramo imashini zagenewe gutunganya amata, hakagaragaramo ameza, harimo indobo, harimo amakaro. Iyo urebye ku nkuta hariho irange ry'ubururu, urukuta rwiza cyane rusa n'ubururu ndetse aha hantu ni heza pe.

Aha ni mu ihuriro ry'imihanda, aho usanga imodoka zimwe zimanuka izindi zizamuka kandi ziturutse mu byerekezo bigiye bitandukanye, aha rero bisaba ko kimwe kibererekera ikindi, aho turi kubona imodoka imwe yabaye ihagaze kugira ngo indi itambuke.

Aha ni mu ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo, aho harimo umanuka ndetse n'utambika, hari umunara uriho insinga z'amashanyarazi, hari igeretse gatatu ariko bigaragara ko itaruzura, hari n'utundi tutari twiza ndetse n'abamotari bahaparitse.

Inzu ifite amabati y'umutuku agaragara nkaho ashaje ikaba ifite antene ya kanari purisi kuburyo bareba umupira uko babishatse iri mu gipangu kiri munsi y'umuhanda

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye kimwe ku kindi, imbere ndetse n'inyuma, hari abagenzi bari gutambuka ku mpande hakaba hasashe amapave bigaragara yuko bitaweho.

Igare ripakiye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye; ripakiye umuceri, isukari, ijerekani ndetse hari abantu benshi cyane baritangariye. Muri uyu muhanda harimo n'abamotari. Bari kugenda kandi bigaragara yuko iri gare rifite umumaro.

Ikirere cyiza cyane nk'uko bigaragara ni mu masaha y'ijoro, amatara meza cyane ari kwaka mu mujyi wa Kigali, uyu ni umuhanda uca munsi hakaba harimo imodoka zigiye zitandukanye haba zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'imodoka zisanzwe.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ushunguka, umuhanda mwiza cyane uri mu Rwanda mu mujyi wa Kigali mu Karere ka Gasabo. Uyu muhanda ukaba urimo ikimodoka kirekire ndetse n'izindi modoka, sibyo gusa ku ruhande hari igare, hakaba hari n'icyapa cyamamariza mitsingi.

Hoteli nziza cyane irimo abantu bagiye batandukanye haba abazungu ndetse n'abirabura. Baricaye bari kuganira bigaragara ko bafite ako kunywa ndetse imbere yabo hari imashini, bishimiranye ndetse mo aho hagati harimo icyapa kiriho Kigali pawaretsi.

Ni ikibuga cyiza cyane gikinirwaho umukino w'amaboko, uwo mukino ukaba uzwi nka tenisi, umukino wa tenisi rero ukinwa hifashishijwe idenesi ndetse n'ibindi bintu byagenewe, aho bakubita uwo gakubise kagafata muri fire, akaba atsinzwe.

Aha hariri icyapa kigaragaza icyerekezo cy'umuhanda, kigaragaza aho abantu bambukira giteretse imbere y'umuhanda hamwe hagaragaza ko abantu bagomba kwambuka, harimo umuntu utanga urugero rw'ukuntu bambuka, arambuka aciye iburyo ukajya ibumoso ku buryo ikinyabiziga kimwerekera.

Iki ni icyapa cyo ku muhanda kigaragaza ahantu haromboye, mbese abatwazi b'ibinyabiziga bakabona yuko hari umuhanda batagomba kunyura ndetse n'undi bagomba kunyura, iki cyapa kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara.

Aha ni ku cyapa cya mirongo itandatu aho baba baburira abatwazi b'ibinyabiziga kugabanya umuvuduko kuko baba bagiye kwegera camera si ibyo gusa kuko hari n'amazu meza asize irangi ry'umuhondo inzugi z'umweru harimo n'utwapa twamamaza twa airtel .

Aha hari kugaragara icyapa cyo mu muhanda bigaragaza umuvunduko w'ikigero cya mirongo itandatu, ahangaha baba baburira abatwara ibinyabiziga kwitonda no kugenda gake. Icyapa gihagaze ahantu imbere y'ibiti, kikagaragaza icyerekezo ndetse n'ububi bw'umuhanda kugirango abatwara ibinyabiziga bitwararike babashe kuhanyura neza.

Icyapa kiriho utwambi tubiri, utwambe tubiri ducomekeranije, kamwe kagaragaza ko ukomeza imbere, akandi kakagaragaza ko ukata ibumoso, iki cyapa rero kikaba kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara.

Icyapa kiri kugaragaza amashyamba, harimo amashyamba menshi cyane imbere yaho hari icyapa kigira giti akarere ka Rusizi aha ni m'u Rwanda aho akarere ka Rusizi gaherereye, hari ibyapa bigiye bitandukanye nk'uko bigaragara bigaragara ko uba winjiye mu karere ka Rusizi.

Icyapa cya mpandeshatu gishinze mu muhanda rwagati, kikaba kiyobora abatwazi b'ibinyabiziga, bakabasha kumenya uko bitwararika bakirinda impanuka, iki cyapa kigizwe n'ibara ry'ubutuku ndetse n'umweru.

Inyubako nziza cyane kandi zigezweho, izi nyubako ziri mu mujyi wa Kigali rwagati aho bigaragara neza yuko ari inyubako leta yashyizemo ingufu kugira ngo igihugu gise neza, izi nyubako harimo izigeretse kabiri n'izindi zifite igisenge kirekire.

Ibi ni ibiro by'ubwishingizi ari byo twita sanilamu hano mu Rwanda iyi ni inyubako ndende rwose bakoreramo, aho ushobora kubagana bakaguha serivisi z'ubwishingizi mu gihe ugize impanuka cyangwa ukagira ikindi kibazo cyatuma ukenera inyishyu y'ibyawe byose.

Aha ni mu nzu z'ubucuruzi aho bigaragara ko ari mu mujyi rwagati, umuhanda wa kaburimbo urimo moto ndetse n'imodoka, hakabamo umugenzi uri kugenda imbere, imbere yabo hari inzu z'ubucuruzi ziriho ibyapa bigiye bitandukanye, hari icyanditseho kwa rando.

Inzu nziza cyane zubatswe ku buryo bugezweho, izi nzu zubatswe mu Rwanda mu Mujyi wa Kigali, ahazwi nk'i Kagugu, bahubaka indabyo nziza ndetse n'ibiti bizana umuyaga mu baturage, nkuko bigaragara aha hantu ni heza kandi harakeye.

Ni ahantu heza cyane ho kuruhukira nk'uko bigaragara hari inzu nziza cyane ifite inzugi z'umweru zisize amarange, hakaba hariho ibirahure, amadirishya y'umukara ndetse n'aho harimo ibirahure, hari ibiti byiza cyane ndetse ikaba iri ahantu bita ku Kinyoni.

Umugabo wambaye ishati ya kake isaha ku kuboko ndetse n'agasaraba ku kundi afite umusatsi uringaniye, imbere ye hari icupa ry'amazi ndetse na mudasobwa, inyuma ye hari icyapa kiriho idarapo y'u Rwanda.

Ni inzu zubatsewe abaturage, ahantu ho guturwa. Ni inzu nziza ariko kandi ukabona n'izindi ntoya. Aha hantu bigaragara ko habimo ibikorwa by'ubuhinzi kuko turabonamo nk'ubuhinzi bw'ibigori, ndetse hakaba hari n'amazu aciriritse.

Aha turi ni mu mujyi hari inyubako nziza nini hari indabo hari abantu bagiye batandukanye bamwe bari kugenda abandi bagaruka hari imodoka hari moto hari imihanda myiza ndetse hari n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye abantu bigaragara ko bishimiye bagenda bareba hirya no hino bareba ibintu bigiye bitandukanye.

Ahari mu mujyi ndetse harimo imodoka zigiye zitandukanye ndetse n'abantu, mbese ni urujya n'uruza, urabonamo imodoka nziza zo mu bwoko bwa vatire zikurikiranye na moto, urabonamo abagenzi bari gutambuka, harimo ibyuma biriho amashanyarazi.

Inyubako ndende kandi nziza, irimo ibirahure bya fume, byiza cyane kandi byinshi, hakaba hariho amakaro ku nkuta, ikaba iriho uduparafo twiza cyane. Ndetse si ibyo gusa, kuko hari n'umuntu uyirimo, bigaragara ko ari nyirayo.

Aha hari ifoto igaragaza igishushanyombonera cy'umujyi wa Kimironko, aha bifashishije agace kamwe nk'ahitwa kwa Mushimire, bahagaragaje. bagaragaza uburanga bw'aho, higanjemo amazu meza, indabyo, ndetse n'indi mitako igiye itandukanye.

Inyubako nziza cyane z'icyitegererezo. Izi nyubako zubatswe mu Rwanda mu rwego kugira ngo bakomeze guteza umujyi mukuru w'u Rwanda imbere, izi nyubako rero zubatswe mu rwego kugira ngo isura y'igihugu ibengerane.

Umuhanda mwiza cyane uciyemo imirongo myinshi cyane, harimo imodoka ndetse inyuma yayo hari igare ritwawe n'umunyonzi, si ibyo gusa kuko ku mpande hateye ibiti bigiye bitandukanye hakaba hari n'ikirere cy'umweru, aha hantu hagaragara neza.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo ufite ibisate bine, hari imodoka enye zose ziri muri ibyo byerekezo hari izizamuka hari izimanuka ariko zose ukabona ko zihita zitabangamiwe, ibyo gusa kuko hakurya yaho hari ibiti byiza cyane icyayi n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo hakaba hari abanyamaguru bambukira harimo utubara tw'umweru ku mpande naho hakaba hazengurukije akantu kariho irangi ry'umweru ndetse n'umukara kuko cyakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye.

Ni umuhanda wa kaburimbo ugezweho, aho usanga ufite amahuriro ane. Aha rero bisaba ngo ikinyabiziga kibererekere ikindi maze byose bitambuke mu mucyo. Nk’uko tubibona, iburyo, ibumoso ndetse no hagati hari kunyura ibinyabiziga.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo harimo moto ziri kugenda, umumotari uri imbere ahetse umugenzi n'umukurikiye ahetse umugenzi ndetse n'umukurikiye ahetse umugenzi, si ibyo gusa ku nkengero z'umuhanda hari ibiti byiza cyane ndetse hari n'utuntu turi ku irangi ry'umweru ndetse n'umukara.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, aho hateyeho uturabyo twiza cyane, utwo turabyo tukaba duteye muri rompuwe ikotirije udusima dusize irangi ry'umweru ndetse n'umukara, hari ibinyabiziga biri kunyuramo, kunyuramo moto, amagare ndetse n'abanyamaguru.

Aha hari igishushanyo kigaragaraho umumotari usa nk'ucuramye. Bigaragara ko babikoze kugira ngo bashimishe abantu. Yambaye kasike iriho ibirango bya MTN ndetse no mu mabara ya MTN. Uyu mumotari bigaragara ko na we yabyishimiye, kuko ari kubikora nk'ubikunze.

Ni umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, ku mpande z'uwo muhanda hasashe amapove ndetse muri uwo muhanda hari gutambukamo amagare ndetse na moto. Hateye ibiti byiza cyane ndetse n'ubusitani aho bigaragara ko Leta yiteje imbere.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo harimo imodoka nyinshi cyane z'umukara kandi nziza, imbere turahabona bisi itwara abagenzi muburyo bwa rusange, hari inzu nziza cyane, hari indabyo nziza cyane, mbese uyu muhanda urakeya.

Aha ni mu isangano ry'umuhanda hazwi nka rompuwe, hari imodoka zigiye zitandukanye urujya n'uruza moto ndetse n'amagare, zimwe zirava iburyo izindi zikava ibumoso, zimwe zikava ruguru izindi hepfo zikahahurira maze zimwe zikareka izindi zigatambuka.

Umuhanda mwiza cyane urimo ibice byinshi cyane ikijya iburyo ibumoso, ndetse hepfo n'uruguru. Mu isangano ryabo harimo imodoka ya tagisi itwara abagenzi. Hazengurutse hafi aho ngaho amatara yo ku muhanda, ndetse n'utwuma dukorotiriye umuhanda tw'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane uciyemo ibice bine, buri gice cy'umuhanda kikaba kigizwe n'ibice bibiri, hari imodoka nziza cyane y'umutuku y'ivatiri iri kunyuramo ndetse hakaba n'abantu bari guca ku ruhande rw'uwo muhanda, hari umumotari uri guca ku gice cyo hepfo, arahageze asanga umunyamaguru ari kwambuka, aba abaye ahagaze ngo abanze yambuke.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka, moto ndetse n'amagare, ukikijwe n'amapave ndetse ku ruhande hari rigore nyuma yo ku ruhande hari ibiti birebire binini cyane, bigaragara y'uko uyu muhanda ufite ubuzima bwiza.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, ariko wangiritse. Ku mpande zayo hari indi mihanda myiza cyane, ndetse harimo na rompuwe. Aha hakaba hari amapota ariho amatara yo ku muhanda, ibyapa biyobora abantu, ndetse n'inzu z'ubucuruzi.

Imihanda myiza cyane Leta yubakiye abaturage. Iyi mihanda iri kugendwamo na moto, imodoka, ndetse n'abanyamaguru. Iruhande rwabo hateye ibiti birebire, bigaragaza neza yuko uyu muhanda uba umeze neza igihe cyose.